Akazu ka MTN batangiramo serivisi zitandukanye, harimo umuntu ucuruza ndetse n'undi waje amugana kakaba gafite amadirishya abiri, ndetse n'umuryango gafite irangi ry'umuhondo.

Inzu ya MTN, bacururizamo amayinite, irimo umu agent ndetse n'umukiriya we, iyi nzu ikaba ifite amadirishya abiri, ikagira n'umuryango, ikaba isize irangi ry'umuhondo.

Umucuruzi w'amayinteye ya mtn uri mu mutaka w'umuhondo yanditseho ngo everi wayi go akaba yambaye imyenda y'umukara ari kuri terefone imbere ye hari umudamu wambaye ikanzu yiteye sharupe, hirya ye hakaba hari moto inyuma y'uyumucuruzi hari inzu iparitsemo moto hari na kandagira ukarabe.

Abantu bari hamwe mu nama bakurikiye kandi bateze amatwi, uri kubaha inyigisho, higanjemo abambaye imipira y'ibara ry'ubururu, ndetse n'abandi bambaye bisanzwe.

Abantu benshi bari kuranguza imboga, by'umwihariko imiteja, bantu biganjemo ab'igitsina gore, bari kuzicururiza mu dukesi tugiye dutandukanye dusa icyatsi.

Abantu bahagaze, batandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari isafuriya iri ku mashyiga, bakaba bahagaze, hari ufite ijerekani, hakaba ufite rozwari n'abandi bafite impapuro.

Inama yahuje abaturage b'amabanki ndetse na koperative, bicaye ahantu hadekoye, badakoresheje ibitambaro by'umweru, iby'umuhondo ndetse n'ubururu bwerurutse, ikaba igizwe n'abantu bambaye imipira y'ubururu ndetse n'abandi bambaye imyenda isanzwe.

Umuhanda ugendwamo n'ibibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, hagati y'umuhanda, hakurya no hakuno hari ibirango biranga ko hari utubari, aho bacururiza inzoga ndetse hakaba hanapatse imodoka.

Igare ryegetse ku giti rihetse amakesi atanu, imwe y'umukara, imwe y'ubururu, ebyiri z'umutuku ugaragara cyane n'undi mutuku usa naho wijimye.

Igare riri hanze y'iduka , hari imifuka hanze, hari ibikapu, amabase, indobo ndetse ibikoresho bimwe na bimwe bikenerwa mu rugo, mu nzu imbere hakaba harimo umuntu wicaye ku ntebe y'ubururu.

Umucuruzi uri mu iduka rigizwe n'ibintu byinshi bitandukanye, aho hari umuntu uje kumugurira arimo amuhereza bimwe mu byo yari amusabye, abimuherereje mu kantu kameze nk'idirishya gakoreshejwe ibyuma.

Abantu batonze umurongo ingeri zose, urubyiruko abakuru n'abatoya, batonnze umurongo bashaka kwinjira muri kiliziya, ni kiliziya ikaba ari inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite umusaraba hejuru.

Abantu benshi bicaye mu rusengero urwo rusengero, urwo rusengero rukaba rufite aritali, igitereko ndetse na taburenakoro byose bitwikirije igitambaro cy'umweru, hakaba hari n'ama esikariye.

abantu batatu bicaye, imbere yabo hari amacupa, abagabo babiri ndetse n'umugore, ku meza bicayeho hakaba hariho imashini, hakaba harimo n'umeze nk'umuzungu usa n'aho ari kubasobanurira.

Inzu isize izirangi ry'umuhondo, ikaba irimo amakaro ,ikaba irimo intebe ebyiri, ikaba irimo akabati gafite tiriwari ebyiri ,hakaba hejuru y'akabati hateretseho televiziyo.

Inzu nini ikoze mu ishusho ry'uruziga, hari umuhanda ujyayo, uwo muhanda ukaba urimo imodoka ndetse hakaba hari n'icyapa iruhande mu busitani bwayo cyanditseho Visit Rwanda.

Icyumba cyo muri hoteli kigizwe n'ibintu bitandukanye, harimo intebe n'umusego bakabamo televiziyo ha bakabamo itapi hakabamo ndetse n'ibiryamirwa.

Ibikoresho biri muri hoteli cyangwa se moteli, hagizwe n'intebe, ameza ndetse n'ibirahuri biteretse hejuru y'ameza, mu rwego rwo gufasha abaje babagana.

Igitanda cyo muri hoteli, gishashe neza ishuka y'umweru, kikaba gifite idirishya ririho rido nziza, ameza, itapi, intebe ndetse kikaba gikinze, kiriho imisego ine.

Imbuto ibintu byinshi bitandukanye iri mu mifuka biri gucuruzwa mu isoko, ndetse hakaba harimo umuntu urimo ufasha abantu baje bagana iryo soko.

Isoko ricururizwamo inkweto, imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho byose byo mu rugo, rikaba risakaje ihema ndetse rikaba ririmo n'abantu mwaje kurihahiramo ndetse n'abaricururizamo.

Inzu, iruhande rw'iyo nzu, imodoka ipakiye imifuka myinshi, iruhande rwayo, abanyamagare bapakiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibiribwa ndetse n'ibindi bintu byose, dukenera mu isoko.

Inzu y'uburiro irimo intebe, ameza ndetse n'aho batekareka ifunguro, hakaba harimo amatara ndetse n'ibindi byangombwa byose bikenerwa.

Inzu iteretsemo ameza, ameza akaba akikijwe n'intebe kandi iyo nzu ikaba icaniwemo amatara, hakaba hahagaze umuntu umwe.

Intebe ziri mu nzu, aho ziteretse zikikije ameza, ameza ariho igitambaro cy'umweru, hakaba hari n'andi ariho igitambaro cy'umutuku.

Umuntu uri kuri moto, uri mu muhanda atwaye, ahetse igicuba cy'mata, yambaye kasike y'umuhondo, ku muhanda urimo amapoto, hakurya y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi.

Umumotari uri mu muhanda, atwaye umugenzi, hakurya y'umuhanda mu kayira k'abanyamaguru, harimo abagenzi, hepfo y'akayira k'abanyamaguru, harimo ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umuntu uri mu muhanda utwaye moto, yambaye ikote ryimbeho, ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze, akaba atwaye moto ari wenyine, hakurya ye hakaba hari igipangu kiriho ibara ry'ubururu cyanditseho Pirimusi.